Abantu batatu bicaye, umugore umwe n'abagabo babiri, amadarubindi, amacupa arimo amazi, ameza, igikapu, intebe ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bari mu nama, bayobowe n'umugore ufite indangururamajwi, batanu muri bo bicaye imbere y'abandi, bafite amazi mu icupa ku meza, abandi ntayo bafite.

Abantu bicaye, abahagaze, abagabo babiri bari kuganira, ameza, ikaramu, ikaye, intebe.

Abantu cumi na bane bari mu nama, bane muri bo bambaye amarinete, babiri b'abadamu na babiri b'abagabo, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye ku meza.

Abantu benshi bicaye, bafite impapuro n'amakaramu, amacupa y'amazi, amakaro, inyubako iteye irangi ry'umweru.

Abantu bari mu nama, babiri bamanitse ibiganza, bigaragara ko bari kwerekana ahantu hatandukanye, amacupa y'amazi ku meza, amakaye, amakaramu ibitabo.

Abantu icumi bari mu nama, batatu b'abadamu, barindwi b'abagabo, umwe mu bagabo arahagaze ari kuganiriza abandi, barindwi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo ku meza, abandi ntazo bafite.

Abantu bicaye, umwe ahagaze, mudasobwa, ikaramu, icupa ry'amazi, impapuro.

Abantu bicaye, umwe ahahagaze, televiziyo, ibyapa bishushanyijeho ibendera ry'u Rwanda, ameza ndetse n'amacupa y'amazi.

Umugore uhagaze ufite indangururamajwi, umugabo wicaye, inyubako, urugi, intebe, amagambo ndetse n'icyapa.

Abantu benshi bicaye, ameza, amakaye, amakaramu, amacupa arimo amazi, agakombe gateretse ku isahani, igikapu ndetse n'icyapa.

Abantu babiri bicaye, umugore amanitse ikiganza cy'ibumoso, ameza, igitambaro, amacupa y'amazi, n'impapuro.

Inama y'abantu yabereye hanze itaratangira, ameza abiri, amacupa y'amazi, igikapu, terefone, ikirere cy'umweru.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, ameza, amakaye n'amakaramu, mudasobwa, amacupa y'amazi ndetse n'inyubako barimo.

Abantu benshi bicaye, ibikombe by'ibirahure, amasahani, amacupa, ameza, mudasobwa, impapuro n'ikaramu.

Abantu bicaye b'abagore n'abagabo, igitabo, amacupa y'amazi, ameza, nimero umunani, amatara n'inkingi.

Abantu benshi bicaye, umugabo uhagaze, urugi, ikaramu, amacupa y'amazi, ameza, impapuro ndetse n'inyubako y'umweru.

Abantu benshi bicaye, intebe, ameza, mudasobwa, amakaramu, impapuro, icupa ry'amazi, icyapa ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bari mu nama, umwe ari imbere yabo, ari kubaganiriza afite indangururamajwi, uhagaze afite terefone ari kubafotora.

Abantu bicaye, umwe wunamye ari gusinya, ikaramu, urupapuro, ameza, intebe, indabo n'iyubako.

Abantu benshi bari mu nama, bicaye bitonze, umwe arimo kwandika, amacupa y'amazi ateretse ku meza, uhagaze inyuma yabo bose ari kureba ku madirishya y'ibirahure.

Abantu bicaye, ameza, mudasobwa, amakaye, amacupa y'amazi, ibishushanyo ku rukuta ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bicaye, umwe uhagaze, intebe, umusambi, amarido, amacupa y'amazi, terefone n'inyubako.

Abantu benshi bicaye, ameza, indabo, amacupa y'amazi, mudasobwa, amakaye, ibikapu, inyubako ndetse na telefone.

Abantu benshi bicaye bambaye imipira y'umweru, umugore uhagaze imbere yabo afite indangururamajwi abohesheje imisatsi, ibyapa, igishushanyijeho ibendera ry'u Rwanda n'inzugi.

Abantu benshi bicaye, bari kureba ahantu hamwe bitonze, abahagaze bane, inkingi yubakishije amatafari ahiye, inyubako iteye irangi ry'umuhondo.

Abantu cumi na batatu b'abagore n'abagabo bahagaze bifashe neza icyapa, inyubako ameza n'ikayi.

Abantu bane bicaye, abagore babiri n'abagabo babiri, amakaramu, agakombe, impapuro, amacupa y'amazi, ameza ndetse n'inyubako.

Abantu barindwi, abagabo batandatu n'umugore umwe. Buri muntu afite icupa ririmo amazi imbere ye, riteretse ku meza. Intebe ziticayemo abantu.

Abantu b'abagabo n'abagore barimo gukoresha mudasobwa bicaye hamwe mu nzu nini cyane ifite amadirishya y'umweru n'ibirahure, ifite ibiti hanze yayo.

Abantu benshi bicaye barebana, ameza, amacupa, amakaramu, amakaye, ibyapa ndetse n'urukuta.

Abantu barindwi bari mu nama bicaye barebana abagabo bane, umwe yambaye amadarubindi, abagore batatu umwe yambaye amaherena, umwe imbere ye hari mudasobwa.

Abantu bicaye barebana, ameza, impapuro, amakaramu, amacupa y'amazi, ibyapa bibiri, televiziyo ndetse n'inyubako.

Umudamu urimo gukoresha inama abaturage ndetse n'abapolisi, afite indangururamajwi yambaye amarinete, bose hamwe bicaye imbere y'inzu yubakishije amatafari, ifite n'amadirishya y'umweru n'inzugi z'umweru.

Abantu bicaye, ameza, ikaye, ikaramu, terefone, intebe ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bicaye, ibitambaro by'umweru bitwikiriye ameza, amaterefone, amacupa y'amazi, inyubako ndetse n'umuntu uhagaze.

Abantu bicaye abagore n'abagabo, ameza, intebe, televiziyo, icupa ry'amazi, urugi n'inyubako.

Abantu batandatu, umwe yicaye wenyine ari kubaganiriza, batatu bicaranye na babiri bari kumwe bambaye ibisa, imeza, igikapu, inyubako.

Abantu benshi, ameza, amacupa y'amazi, amakaye, parafo, irangi ryumweru n'inzugi.

Umuhanda, urugi, icyapa, inzu, ikigega cy'amazi, abantu, ikirere ndetse n'ibiti.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ishuri, buri wese ari gukoresha mudasobwa, bambaye impuzankano, bose hamwe ni icumi, ku murongo w'imbere hari abanyeshuri batandatu, ku murongo wa kabiri hari abanyeshuri bane.

Umuhanda, imodoka, abantu, amaduka acuruza indobo, imyenda, ikirere ndetse n'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Igiti cy'umuriro w'amashanyarazi, ubusitani, inyubako, urugi, igiti cy'umuriro w'amashanyarazi, amashyamba n'amazu.

Imodoka, abantu, umutaka wa MTN, icyapa, umuhanda, ipoto, ibiti n'amazu.

Igiti cy'umuriro w'amashanyarazi, itara, umurindankuba, ibimera, inyubako yubakishije inzugi ziteye irange ry'umutuku.

Umuhanda, indabo, ibiti, icyapa, umurindankuba, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, inzu, amashyamba ndetse n'ikirere.

Ibyapa bibiri, igiti cy'umuriro w'amashanyarazi, inyubako yubakishije amatafari igeretse, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi n'ikirere.

Igiti cy'umuriro w'amashanyarazi, inyubako iteye irange ry'ubururu, ibimera, ikirere, ibishushanyo.

Umuhanda, icyapa cyanditsemo inyuguti ya pa, igiti cy'umuriro w'amashanyarazi, indabo, inyubako ndetse n'ikirere.

Umuhanda w'igitaka, ibyatsi, urukuta, amabuye, ipoto, ibiti, amazu n'ikirere.

Igiti cy'umuriro w'amashanyarazi, urukuta rusize irange ry,umweru, indabo, utwuma, igiti cy'ikimera.

Ubwinjiriro, ubusitani, inzu, icyuma, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, ibiti ndetse n'ikirere.

Icyapa cya MTN, imitaka ibiri, ibinyabiziga, abantu, umuhanda, inyubako, ikirere ndetse n'igiti cy'umuriro w'amashanyarazi.

Inzu nini ifite urugo rwubakishije amatafari ahiye, hanze hari igiti cy'amashanyarazi n'igiti cy'igihingwa, n'ibyatsi biri ku rugo.

Abagabo bambaye ingofero zisa z'umuhondo, ibisarubeti by'ubururu, bari gukora amashanyarazi, indabo ndetse n'ikirere, n''ibiti.

Inyubako, igiti cya voka, ibimera bisanzwe, urugo rw'amabati ashaje, inzu yubakishije amabati y'umutuku.

Abantu abagenda n'amaguru n'abagenda ku binyabiziga, ibiti by'umuriro w'amashanyarazi, ibimera, inyubako na amashyamba.

Umuhanda wa kaburimbo, abantu bari ku mapikipiki, abagendaza n'amaguru, amatara, amazu, imodoka, ibiti, ikirere.

Ururabo, igiti gihuriweho n'imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, urugo, inyubako, ibiti ndetse n'ikirere.

Inzu, indabo eshatu, ibyuma bibiri bihuriweho n'imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, ikirere ndetse n'amagambo.

Imodoka, umuntu, umurindankuba, inzu, amatara, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, ibiti n'ikirere.

Ibyatsi, ibiti bibiri by'umuriro w'amashanyarazi, ibiti by'ibimera, inyubako y'amatafari ahiye, inkingo yubakishije amabuye.

Inzu ifite amabati y'umutuku agaragara nkaho ashaje ikaba ifite antene ya kanari purisi kuburyo bareba umupira uko babishatse iri mu gipangu kiri munsi y'umuhanda

Umuhanda, indabo, amatafari, umuntu, teremusi, imodoka, inzu, ibyatsi, amabuye, ibiti ndetse n'ikirere.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka, abantu, intebe, amazu imwe ishushanyijeho agasaraba, indabo, amatara ndetse n'ikirere.

Isima yo hasi, umufurege, urugi rw'umweru, ubusitani, ibiti, abantu, imyenda imanitse ku migozi, ndetse n'amabati.

Umuhanda, ibyatsi, icyapa, inyubako, indabo, inkingi, amabati y'umutuku, umuntu, amadirishya y'ubururu.

Ubusitani, ibyapa, inzu iteye irange, amapoto, ikirere, intebe ndetse n'ibiti.

Abantu batatu bari ku nyubako, umwe yicaye mu nzu mo imbere, abandi babiri bari hanze, kuri iyo nyubako hari ikimenyetso kivuga ko bitemerewe kuhanywera itabi.

Igihe cy'izuba inyubako y'amatafari ahiye, imodoka ebyiri z'umweru, imwe ishushanyijeho umusaraba bivuze ko ari ambiranse imbangukiragutabara.

Abantu barindwi, batatu bari kugenda bamanuka, undi yicaye yigunze, inyubako isa nk'aho ariyo kwa muganga.

Abantu batatu b'abagabo bahagaze, umwe wo ku ruhande rw'ibumoso amanitse ikiganza cy'iburyo, bahagaze imbere y'inzu y'amabati y'umweru, afite inzugi z'imbaho.

Abantu bicaye, mudasobwa, ameza, terefone, icupa ry'amazi, televiziyo, amatara n'urukuta.

Abantu benshi umwe ahahagaze imbere afite indangururamajwi, inyubako, amatara, ameza, n'ibitambaro byumukara.

Umugabo w'umunyafurika wambaye ikote ry'umutuku, ishate y'umweru, amadarubindi, wiyogoshesheje ndetse aho ari hejuru ari ah'umweru.

Abantu benshi bicaye hasi, abahagaze, ameza, impapuro, ibiti, umutaka ndetse n'ikirere.

Abagabo babiri bicaye bambaye udupfukamunwa, igikapu, ameza, mudasobwa, ikayi ndetse n'urukuta.

Inyubako, icyapa cyanditseho amagambo ngo gereza ya Nyanza, amashyamba, ubutaka ndetse n'idirishya.

Umuhanda, imodoka ebyiri, igiti, ibyatsi, indabo, amadirishya y'ibirahure n'inzu.

Kaburimbo, imodoka, moto, abapolisi, umukozi wa Emutiyene, umutaka w'umutuku.

Kizimyamwoto ebyiri z'umutuku, imwe aho kuzimiriza ni ah'umutuku indi ni ah'ubururu, inyubako iteye irangi ry'umweru, amakaro y'umukara inzugi z'umweru z'ibirahuri.

Ibyatsi, ibiti, imodoka, inzu nini, abantu, ikirere n'ibicu.

Umuhanda, imodoka y'umweru y'abapolisi, iy'umukara, indabo, inzu, ikirere n'umuntu.

Abantu benshi bahagaze bamanitse ibiganza, abapolisi bari imbere, imodoka, ikirere, indangururamajwi ndetse n'ibiti.

Abantu batatu bicaye, umugabo uhagaze imbere yabo, mudasobwa, ameza, intebe, inyubako, ikaramu.

Abagore n'abagabo bicaye hamwe, amacupa y'amazi, ameza, agakombe n'inyubako.

Abantu batandatu, abagabo babiri bambaye karuvati, umupolisi umwe, bifashe neza, bari imbere y'inyubako y'umweru.

Abantu bicaye mu nama, bayobowe n'umugabo ubahagaze imbere, inzu nziza, amadirishya y'ibirahure, amacupa y'amazi ateretse ku meza.

Umugore wicaye wifashe neza wambaye ikote ry'ubururu, amadarubindi, ubohesheje imisatsi, igishushanyo cy'umwana wikoreye ikibindi wambaye iby'umukara n'inyubako.

Umudamu wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye ikote, n'akantu k'umukara mu imbere, amadarubindi, amaherena, ku ruhande rwe hari ibendera ry'u Rwanda.

Kaburimbo, imodoka, inyubako, ubusitani, amashusho, abantu, n'ikirere.

Imodoka nini irimo imizigo, abantu babiri bahagaze, umuntu umwe ahagaze yegereye imifuka irimo ibintu, amazu atatu, inzu yo hagati iteye amarangi ku nzugi.

Umuhanda, abantu, imodoka, ipikipiki, urukuta rw'amabuye, ubusitani, amazu, amatara ndetse n'ikirere.

Umuhanda, imodoka, suzuki, abantu, urugo rw'ibiti, ibimera, amazu menshi, n'indabo.

Umuhanda, imodoka, umuntu wikoreye indobo irimo ibigori bitetse, amazu, amapikipiki, ibyapa n'ikirere.

Imodoka iri kwerekeza mu ruhande rw'iburyo, umuhanda wa kaburimbo, urugo rw'icyatsi, ikirenge kimwe cy'umuntu wicaye wambaye iby'umukara, ibiti hepfo y'umuhanda.

Umuhanda, ipikipiki, abantu, imodoka, ibiti, indabo, ubwinjiriro bwubakishijwe amabati, amashyamba ndetse n'ikirere.

Umufurege, umuhanda, igare, abantu, imodoka, indabo, ibiti n'ikirere.

Ikiraro, umufurege, umuhanda, imodoka, amapikipiki, abantu, ibiti, amazu n'ikirere.

Umufurege, umuhanda, umuntu wikoreye umuzigo, amapikipiki, imodoka, inzu iteye irangi ry'ubururu, ibiti n'itara.

Umuhanda, imodoka y'ubururu, aho babika amacupa, inzu, inyubako y'amabuye, umuntu, ibiti n'ikirere.

Ibyatsi, umufurege, imodoka, amapikipiki ahetse abantu, ibiti, ikirere, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'iteme.

Umuhanda, abantu, amapikipiki ahetse, imodoka zihetse imizigo, ibiti, amazu, amashyamba, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi n'ikirere.

Umuhanda, umufurege, imodoka ebyiri, imwe ntoya yanditseho nimero za telefone, abantu, ubusitani, n'ibiti.

Amapine atatu y'umukara y'imodoka nini y'umutuku, yikoreye umucanga woroshe ihema ry'umukara hejuru, hepfo y'umuhanda hahinze ibiti birebire.

Umuhanda, imyanda, ibiti, imodoka, amapipiki ahetse abantu, ibyapa, inzu, ikirere ndetse n'amashyamba.

Umuhanda, umuntu wikoreye umufuka urimo imizigo, imodoka, itara, ibiti, inzu, urugo n'ikirere.

Umuhanda, umuntu, imodoka itwaye abantu, ibiti, itara, ikirere ndetse n'igishushanyo gishushanyije ku modoka.

Umuhanda, umuntu uri ku igare, imodoka ndende, ibiti, amazu, ibyatsi ndetse n'ikirere.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka nini y'umweru, ihetse inka, ishushanyijeho igishushanyo cy'umusirikare, ibiti n'inyubako.

Umuhanda, ipikipiki ihetse umuntu, ibyatsi, ibiti, amatara, ibyapa, amazu, amashyamba n'ikirere.

Kaburimbo nyinshi, ibinyabiziga, iminara y'umuriro, amashyamba menshi, abantu n'inyubako.

Umuhanda, imodoka, umuntu, urugo, ibiti, indabo, amazu ndetse n'ikirere.

Umuhanda, umuntu utwaye ipikipiki, imodoka, amazu, ibiti, ibyatsi, amabuye, ibitaka ndetse n'umuntu ugenza ibirenge.

Umuhanda, abantu, ibinyabiziga, inzu, indabo, ibiti, n'ikirere.

Imodoka y'umutuku iri muri kaburimbo, umuntu uyitwaye wambaye ishati y'ubururu, ibiti, ikirere cy'umweru, urugo rw'icyatsi.

Imodoka eshatu iy'umweru n'iz'ubururu ebyiri, igare riparitse ku ruhande, kaburimbo, amazu n'amashyamba.

Umuferege, umuhanda, umuntu utwaye imodoka ihetse imizigo, umuntu wikoreye umuzigo ku mutwe, ibiti n'ikirere.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka nini irimo abantu benshi, abantu babiri bari ku igare bagana muruhande rw'iburyo, hepfo y'umuhanda hahinzeho ibiti hari n'urugo rw'icyatsi. Umuhanda wubakishije amabuye.

Imodoka y'ubururu itarimo abagenzi, igishushanyo cy'umukobwa wifashe ku matama, bigaragara ko yishimye, umugabo wicaye ku ntebe, inyubako y'amatafari n'amabuye.

Abantu babiri bari ku magare atagaragara, imodoka, inyubako y'ubururu, inzu yamamaza firime z'ibiganiro mpuzamahanga mu kinyarwanda, ku masaha makumyabiri n'ane mu cyumweru.

Umuhanda, imodoka, ibyapa, akazu, inyubako ikirere ndetse n'abantu.

Indobo, icyapa, igiti, abantu bicaye ku mapikipiki, umuntu ugenza ibirenge, umuhanda.

Umufurege, umuhanda, abantu, igare, imodoka, ibiti, urugo ndetse n'amazu.

Umuhanda, imodoka y'umweru ihetse amatafari, umuntu, ibiti, urugo, inyubako ndetse n'ikirere.

Umuhanda, imodoka yo mu bwoko bwa Ritico, amapoto, amatara, amapikipiki ahetse abantu, abantu bagenza n'amaguru, amashyamba n'ikirere.

Umuhanda, imodoka yicayemo abantu, amagambo yanditseho igicucu, ibyatsi, ibiti, indabo ndetse n'ikirere.

Umuhanda, imodoka yicayemo uyitwara, abantu, ibiti, ibyatsi, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, ibyapa n'ikirere.

Imihanda, ibiti by'umuriro w'amashanyarazi, ubusitani, amazi, amazu, n'ibyapa.

Ikimenyetso cy'umuhanda kigaragaza inzira y'uruziga iri imbere, icyapa kirimo ibimenyetso cy'umwambi w'umuzinge n'amagambo, igiti kiri inyuma y'icyo cyapa, umuhanda w'abanyamaguru n'amazu ari inyuma.

Ibimenyetso bibiri, icy'uruziga gishushanyijemo igare gicishijemo akarongo, icyo mu mubara ry'umutuku cyanditsemo amagambo asobanura ko nta gare ryemerewe kuhanyura.

Icyapa kiri imbere y'inzu igerekeranije ihagazeho abantu babiri, umukobwa n'umuhungu, ishushanyijeho abantu imbere iteye amarange y'icyatsi.

Umuhanda, amapikipiki yahetse abantu, umupolisi, imodoka, icyapa, amatara, inzu ,ibiti n'ikirere.

Umuhanda, ibyatsi, indabo, icyapa cyanditseho amagambo ngo guhagarara, amapikipiki abiri ahetse abantu, amatara, ibiti n'ikirere.

Icyapa gishushanyijeho imodoka ikishijemo akarongo, abantu bagenda n'amaguru, abari kuri moto, ubusitani, ibiti ndetse n'ikirere.

Icyapa cy'umuhondo, ibyatsi, umuhanda, ibicu, amapoto, ibiti ndetse n'ikirere.

Ibyapa, imihanda, ibyatsi, umukobwa ufite igikapu, umunara w'umuriro w'amashanyarazi, ikirere ndetse n'amazu.

Icyapa cya mpande eshatu, kiri haruguru y'umuhanda wa kaburimbo ucishijemo akarongo k'umweru, hepfo hari ishyamba no haruguru hari ibiti.

Umuhanda, ubusitani, indabo, imodoka, icyapa, amashyamba, amatara ndetse n'ikirere.

Icyapa cy'umutuku, amagambo yanditseho, imisumari, umuhanda, ibyatsi, ibiti, n'ikirere.

Abantu benshi umwe wambaye akenda kagaragaza ko acuruza ama inite ya MTN, aho bacururiza amadarubindi, imitaka igaragaza ko bacuruza ama inite ya Tigo.

Urugo, amatara, inyubako yubakishije amatafari ahiye, ibigega bibika amazi, inyubako iteye irangi ry' umukara n'umurindankuba.

Umuhanda, imodoka, abantu, moto, inyubako, amagambo, ibiti n'ikirere.

Icyapa, umuhanda, indabo, imodoka, ibiti, amazu, umurindankuba n'ikirere.

Abantu barindwi, abagore babiri, abagabo batatu n'umwana umwe, igare, aba bantu bicaye hepfo y'umuhanda w'igitaka bari imbere y'iduka ricuruza amayinite.

Umuhanda, ibyatsi, ibiti, imodoka, igare, umuntu, ipikipiki, amatara, inyubako, amazu menshi n'ikirere.

Itara, urugo rw'ibyuma, ibyatsi, ibiti, amadirishya y'ibirahure, inyubako ndetse n'ikirere.

Hoteri nini cyane iteyemo ibiti imbere, inzugi z'ibirahure, amadirishya, ibyapa by'umutuku n'icy'umweru.

Urugo rw'amabuye, ibitaka, inyubako, amazu yubakishije amatafari ahiye, ibiti, amatara n'ikirere.

Umuhanda, ibyuma, abantu, amaduka, akazu ka MTN, imodoka, inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda, icyapa, amapikipiki, ibyatsi, abantu, ibiti, amazu, imodoka n'ikirere.

Imihanda, abantu bari ku binyabiziga, ibiti by'umuriro w'amashanyarazi, amashyamba, amazu, ibyapa n'ubusitani.

Ihuriro ry'imihanda myinshi imodoka z'umweru n'iy'ubururu, indabo, ibiti, icyapa, amatara n'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo abantu babiri bicaye ku binyabiziga, igare na moto, imodoka, icyapa cy'ubururu, indabo.

Icyapa cyanditsemo inyuguti ya P iciyemo akarongo, umuhanda wa kaburimbo, imodoka y'umukara, abantu bagenda n'amaguru, ubusitani, ibiti ndetse n'ikirere.

Umuhanda, abantu batwaye amapikipiki, imodoka ihetse imizigo, ihema riyitwikiriye, ibiti, amazu amatara, ibyatsi ndetse n'umuntu ugenda n'ibirenge.

Umuhanda wa kaburimbo uhinzeho jaride kuruhande, icyapa, imodoka, urugo ndetse n'amatara.

Umuhanda, imodoka, amagambo yanditseho, inzu, amapikipiki, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, ibiti n'ikirere.

Imodoka, moto, inyubako iteye umucanga, ibyapa, ibiti, kaburimbo, indabo.

Imihanda ya kaburimbo, indabo, ibyatsi, amatara, abantu, ibiti, imodoka ndetse n'ikirere.

Umuhanda abantu bagenda kuri moto ,imodoka, iteme ,ikirere, ibiti ndetse n'indabo n'ibyatsi.

Umuhanda, ipikipiki, imodoka, ibyatsi, indabo, ibiti ndetse n'ikirere.

Umuhanda, abantu bagendera ku mapikipiki, imodoka, intebe, ibati, indabo, ibiti ndetse n'ikirere.

Imihanda ya kaburimbo, abantu bagenda n'amaguru, moto, imodoka, inyubako y'amabuye, ibiti, ibyatsi ndetse n'ikirere.

Umuhanda, ibiti, amazu, ibyapa bibiri, igishushanyo cy'umwana uri kugenda mu muhanda.

Kaburimbo, ibyapa, ibiti, ubusitani, inyubako n'ikirere.